Ibikoresho twifashisha mu burezi bw'ikoranabuhanga. Kumenya gutondeka ibintu, gucomekeranya ibintu, guhuza ibintu bikababya ikintu gifatika, ukaba warema ikintu gisha wifashishije ibikoresho bitandukanye.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho biga kubaza, gukora intebe, utubati, bigisha abana kwihangira imirimo. Biga igihe gito kandi bakunguka bagatangira gukoresha ubumenyi bahawe.

Amashuri yo kwiga ibijyanye no kwita ku bihingwa, bareba uburyo bakwita ku gihingwa kigakura neza, ifumbire ikwiriye kujyana n'igihingwa runaka, n'aho igihingwa gikwiriye guhingwa ni byo biga.

Ishuri ryo mu mashuri yisumbuye kuva mu mwaka wa mbere wa segonderi, kuzamura. Bari kwiga na mwarimu wabo. Bari kubaza ibibazo bagatanga n'ibisubizo bicane neza banambaye neza.

Iri ni ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ryigisha kudoda ahubwo ufite imashini yo kudoda ukwifashisha mu kudoda imyenda ubwoko busha bugezweho gusana iyacitse bigufasha muzima bwa buri munsi.

Uyu ni umwuga w'ubumenyi ngiro wigishwa mu mashuri y'imyuga, aho abana bahabwa amamashini bakigishwa kuyakoresha. Kwigishwa kudoda, guhanga imyenda igezweho, gukora imyenda mishasha, gusana iyashitse bibafasha mu iterambere ryabo rya buri munsi.

Amashuri y'imyugangiro, amashuri bigisha kwihangira imirimo bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu pima, mugenzura, mukora ibintu bishyashya bitewe n'ibyo mwigisha.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro bigisha kwihangira imirimo mu bumenyi butandukanye, mu gukanika ibyuma by'ikoranabuhanga, mu kuvumbura iyabo imirimo bifasha mu iterambere ryo kwikorera.

Amashuri y'ubumenyingiro no kwihangira umurimo. Ni amashuri meza ahurirwamo n'abanyeshuri b'ibyiciro bitandukanye bagatangira kwiga uburyo bakwihangira imirimo bakora imirimo itandukanye, bavumbura imishyashya mu iterambere ryabo.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro .Ahantu mu mashuri y 'imyuga n'ubumenyingiro ,uburezi bw'ikoranabuhanga mu buryo bwo kurema amamashini afasha mu mirimo ya buri munsi , bagakoresha mudasobwa mu kwiga ibintu bishyashya, bakavumbura n'ibyo gukora bitaravumburwa n'abandi.

Aya ni amashuri y’imyuga n’ubumenyingiro; aho abana, abanyeshuri bagana, bakigishwa kwihangira imirimo itandukanye kugira ngo bazabe abikorera, bavumbure n’udushya.

Amashuri y'icyiciro rusange mu cyiciro kibanza, abana n'abanyeshuri bakorana na mwarimu mu gukorana kugira babone ubumenyi, bunguke ubumenyi bazifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Amashuri y'ubumenyingiro, imyuga n'ubumenyingiro bigisha habamo kwigamo gukoresha uburyo bwo gukoresha imashini ,bigiramo kwihangira imirimo nko kwite.....

Amashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro, aha ni ishuri yigisha umwuga wo kuwusuzuma udukoko tutagaragara, bakoresheje ibyuma byabugenewe mu kureba utwo dukoko.

Aya ni amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. Amashuri yigisha ibintu by'ubuvumbuzi, ibintu bya siyanse, kuvumbura imiti, kuyikoresha no kureba mikorobe. Ni ubuvuzi buteye imbere.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aha n'ishuri ryigisha umwuga w'ubwubatsi, wigisha abantu ubwubatsi mu rwe rwo kwihangira imirimo no kwikorera, bizadufasha mu kubaka amazu n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Amashuri abanza aho abana bari kwiga uburyo butandukanye bwo kwiremera ibikinisho, bakora utumodoka mu bushobozi bwa bo buke, bakagira umurimo bikorera mu maboko ya bo bata, mwarimu we akabafasha, kugira ngo bagire icyo bageraho

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, ni ishuri ryigisha umwuga wo gushushanya, kuko impano zo gushushanya, baba bashushanya ibintu bigiye bitandukanye aya n'amashuri abafasha, kugera ku ntego zabo.

Amashuri y'ubumenyingiro n'umwuga no kwihangira umurimo, iri ni ishuri ryigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo bwo gukanika amateleviziyo, amatelefoni bikongera gukora, bakavumbura n'ibikoresho bushyashya by'ikoranabuhanga.